Abana babiri bari mu gice kigaragara nk'icyaro, bose barasutamye, bari gukaraba kuri kano, umwe yambaye imyenda y'icyatsi hose n'inkweto z'icyatsi, mugenzi we na we yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura.

Abantu icyenda bicaye ahantu hamwe ku meza harimo abagabo bane, harimo bagore bane, harimo umugore umwe uhagaze wambaye imyenda y'umuhondo, harimo n'umuyisilamu witandiye wambaye imyenda y'umutuku.

Abagore batatu bigaragara ko bari mu gice cy'icyaro, babiri muri bo bari gufasha mugenzi wabo kuvoma. Uri kuvoma ari kuvomera mu ndobo y'icyatsi, akaba yambaye igitenge hasi akaba anambaye ibirenge na bagenzi be babiri bakaba bambaye ibirenge.

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu bicaye ku kabaraza, umuhungu wambaye umwenda w'ubururu hejuru, umukobwa yambaye umwenda w'umweru hejuru, afite telefoni mu kiganza, afite ikayi n'ikaramu, inyuma yaho hari icyapa cyibutsa abantu ko Sida igihari.

Umwana w'umuhungu uri gukaraba intoki yambaye ikabutura ndetse n'ishati y'icyatsi, robine ari gukarabiraho isa ubururu, hari ikidomoro cy'ubururu, iruhande rwe ndetse n'inyuma ye hari ikindi kidomoro cy'ubururu, ahantu ari hari kuva izuba ryinshi cyane.

Abana bari ku kigo cy'amashuri bisa nk'aho kiri ahantu mu misozi, abo bana bose bakaba bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bafite ibikombe mu ntoki, bikaba bigaragara ko bari kuvoma amazi yo kunywa.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo abasutamye ndetse n'abahagaze, bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho hakaba hari icyapa cyanditseho RBC, akaba ari Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Rwanda.

Abanyeshuri bari ku ishuri risa nk'iri mu gice cy'icyaro, kuko rizengurukijwe amabati, bari kunywa amazi, bose bambaye impuzankano, harimo babiri b'abahungu na bane b'abakobwa, buri wese afite igikombe cye bari kuvoma ku kigega cy'umukara.

Abantu batonze umurongo, bategereje gusuzumwa abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi, bitwikiriye mu maso hose, bambaye nu'dupfukamunwa, umwe ari gusuzuma umugabo wicaye, wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ingofero yu'bururu.

Icyumba kirimo abantu bicaye hasi basa nkabaganira, higanjemo abana bambaye imipira y'ubururu, hakaba harimo bakeya bambaye imipira y'umuhondo, muri bo bari kubaganiriza, hakaba harimo umukobwa ufite uruhu rwera, inyuma yiwe hakaba hari ameza, n'abandi bagabo babiri bambaye amakoti.

Abantu batatu b'igitsina gore, umwe aricaye, ari gukingirwa, biragaragara ko ari kubabara, yambaye agapfukamunwa, afite ibirahure by'amaso, mu gatuza yambaye umupira w'umweru, ari gukingirwa n'uwambaye umupira w'umweru hejuru, ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, undi w'inyuma ari kubarebera.

Icyumba cyahuriyemo ababyeyi benshi bigaragara ko ari ku kigo Nderabuzima, bakaba baje gukingiza abana, imbere hari umubyeyi wambaye igitenge akaba anagiteze, akaba afite n'igipande mu ntoki ateruye umwana we.

Abantu benshi bateraniye hamwe b'ingeri zitandukanye harimo abashinzwe ubuzima, harimo ab'inzego zishinzwe umutekano, harimo n'umuganga, imbere yabo bafite uruhinja rwambaye imyenda y'umweru bari kurupima uburebure.

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa kijyanye no kwita ku buzima bw'abantu, hakaba harimo abicaye n'abahagaze, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo hakaba hari umugabo uri hagati uri kugenda ubaha amabwiriza y'uko ibintu bigenda.

Umugore wishimye wambaye ibirahuri by'amaso, akaba yambaye umwenda w'amabara atandukanye, ubururu ndetse n'umuhondo, ari kwerekana ikarita yanditseho kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu cyumba ahantu hari abicaye, hari abahagaze bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho RBC, kikaba ari ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Abantu batanu, harimo abagore bane n'umugabo umwe, mu bagore harimo umwe wambaye ibirahuri by'amaso, harimo n'undi uri gutanga imbwirwaruhame, imbere yabo hateretse Mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Abantu batatu, abagore babiri umugabo umwe, umugore umwe ni umuganga ari kuvura umugore w'undi amenyo, umugore w'umuganga yambaye ibirahure bimufasha kureba neza mu kanwa k'umurwayi, ku ruhande hari undi muganga umufasha kuvura wambaye itaburiya y'ubururu w'umugabo.

Abantu batatu, abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe uri kuvurwa; umugore umwe afite udukoresho ari koza mu menyo y'umurwayi, umurwayi ari kureba hejuru, bamushyizeho agatambaro mu kanwa, gatuma adaciyagura.

Abantu benshi bari gutambuka mu muhanda, ahagaragara nko mu gice k'icyaro, harimo abakecuru babiri bari imbere, bafite inkoni mu ntoki bakinnye mikenyero myiza y'umweru, iruhande rwabo hari umusore wambaye umupira w'umweru, naho ibumoso bw'umusore, hari umukobwa wambaye umupira w'umukara.

Abantu babiri bari mu nzu, harimo umugabo usa nk'ukuze, harimo umukobwa uri gufasha uwo mugabo kugenda, umukobwa bikaba bigaragara ko ari umurwaza we, akaba yambaye impuzankano y'akazi isa ubururu.

Abagore batatu bishimye, babiri muri bo bakaba bambaye imipira y'umweru, undi umwe uri hagati akaba yambaye umupira w'umuhondo, akaba afite igikoresho bari kwifashisha bifotoza.

Igishushanyo kiriho utumenyetso twinshi tw'amabara atandukanye kigaragaza mu kurwanya kanseri mu bana, kurwanya kanseri y'amabere, kurwanya kanseri yo mu bwonko ndetse na kanseri yo mu maraso.

Abantu bari mu cyumba kinini b'igitsina gore gusa, hakaba hari urumuri rwinshi, harimo abambaye imipira y'amabara y'umukara ndetse n'umwe wambaye ingofero, abandi bose bakaba bambaye imipira isa umweru, bakaba basa nk'abari gutega amatwi.

Abagabo babiri bicaye kuri

Abantu bari hamwe bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari ameza, hariho igitambaro cy'umweru, bafite mudasobwa imbere yabo n'amacupa y'amazi, hari n'umugabo uhagaze uri gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hari isakazaamashusho.

Inzu nini y'amagorofa atatu, ku ruhande rwayo hari intebe z'umuhondo ndetse ifite n'ubusitani bunini kandi bwiza, bugiye buteyemo indabo zigiye zitandukanye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe kwa muganga, bategereje kwakirwa, bose bambaye udupfukamunwa, higanjemo igitsina gore, hari umugabo wambaye ipantaro y'umutuku, umupira w'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, ari kugenda abaha ubufasha.

Inyubako yo kwa muganga, igaragaza aho abantu bicara baganirira, hari intebe z'ubururu, hari n'ameza, harimo n'iz'umukara, inyubako ikaba itatswe n'amabara y'umweru akaba ariyo yiganje.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru hakaba hari abagabo batatu n'abagore batatu, baje kwivuza barimo umugabo umwe wicaye wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, barimo n'umugore uhagaze na we wambaye umupira w'umutuku n'ikanzu y'igitenge.

Aba ni abantu bicaye ahantu hamwe b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, harimo abana harimo n'abagabo, harimo umugore umwe uhetse umwana baricaye bari ahantu ku kigo nderabuzima bategereje ko bakirwa ngo bajye kuvurwa.

Icyumba kirimo imashini zikoreshwa kwa muganga, icyo cyumba kirimo n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, harimo abagabo, ku ruhande hano hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umutuku ari gukoresha izo mashini.

Icyumba cy'abarwayi kirimo gitanda cya mbere mbere yaho hari intebe noneho ibyo ibitanda bitandukanyijwe n'ibitambaro birebire cyane imbere y'ibitanda hari utubati abaganga bakoresha babikamo ibikoresho bakoresha bavura abarwayi mbere yaho ha umuganga uri kwita ku barwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, harimo ibitanda bine, bikaba bifite ibikoresho ku ruhande bivura abarwayi, harimo ibisuzuma uko umutima utera, imbere yabyo hari utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, iyo bari kuvura.

Icyumba kirimo igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa mu kureba mu mubiri w'umuntu mo indani, muri icyo cyumba kandi hakaba harimo urumuri rwinshi, hakaba harimo isaha ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Inyubako igeretse kabiri ikaba isize amarangi higanjema y'ubururu, ikaba ifite icyuma cyohereza umwuka mo imbere, hakaba hari abantu, abenshi bambaye amakote ndetse hanze hakaba hari imodoka.

Icyumba kirimo abantu babiri bigaragara ko ari kwa muganga, harimo umuganga umwe wambaye impuzankano y'akazi y'ubururu n'umubyeyi uteruye umwana, umubyeyi yambaye umupira w'umweru, inyuma yabo hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga harimo n'aho bajugunya imyanda ndetse naho bakarabira intoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye hakaba arimo ibitanda bitanu bishashishijwe amashuka asa ubururu

Iyi nzu ni iy'Ikigo Nderabuzima cya Rwerere. Hejuru ifite icyuma kiyifasha gukoresha imbaraga z'imirasire y'izuba, hasi izengurukishijwe n'indabo zo mu bwoko butandukanye n'amabara atandukanye.

Inyubako y'ubuvuzi ndende, yahuriweho n'abantu benshi yiganjemo abagore cyane cyane, inyubako ikaba izengurukijwe n'ubusitani kandi hakaba hari n'imodoka y'umukara ifite ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo, byanditswe mu nyuguti z'umukara.

Umugore uryamye ahantu mu bitaro bigaragara ko arembye, iruhande rwe hari imashini ebyiri zimusuzuma, hejuru na ho hari serumu ebyiri zimwongerera imbaraga mu mubiri.

Umusore ndetse n'umugore ukuze, bicaye ahantu hagaragara nko munshe z'icyaro, inyuma yabo hari insina, umugore yambaye igitenge cy'ubururu ndetse n'umusore yambaye impuzankano z'akazi z'ubururu bigaragara ko ari umuganga.

Inyubako nini cyane y'Ibitaro bya Nyarugenge, ikaba isizwe amarangi abiri y'ubururu ndetse n'umweru byiganje cyane, ikaba ifite ubusitani bunini, ikaba iri ahantu hari isuku nyinshi cyane.

Abagore babiri, umwe araryamye yazamuye akaguru k'ibumoso, undi yambaye imyenda y'umukara, ari kumufasha mu kugorora mu ivi, hasi yamuteze agatambaro k'umweru gatuma ijwi rye rimera neza.

Ikirango kirimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, kikaba cyanditseho izina Nshimyumuremyi, akaba azobereye mu bijyanye no kugorora imibiri y'abantu ingingo aho bavunitse muri rusange.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara ifite amabara atandukanye, harimo umutuku ndetse n'umweru ikaba ifite ipine inyuma, ikaba ifite ikirango kiyiranga kiri mu ibara ry'umuhondo mu nyuguti zandikishijwe umukara, ikaba ari imodoka y'ibangukiragutabara itwara abarwayi.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri yicaye hasi, yambaye ipantaro ndende cyane y'umukara, akaba yambaye n'agasengeri k'umukara, imbere ye hakaba hateretse icupa ry'ubururu, akaba yambaye utugozi tw'umweru mu matwi tumusakazaho amajwi.

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu bafite ibikapu bibiri, umuhungu yicaye ku ntebe yambaye ikabutura y'umukara n'isenge y'umukara ari kunywa amazi, n'aho umukobwa arahagaze nawe yambaye ikabutura y'umukara.

Icyumba kirimo abantu batanu, hakaba harimo abagabo batatu, n'abagore babiri, hakaba hari umugabo umwe uryamye ku gitanda cy'umukara, akaba ari kugororwa n'abandi bagabo babiri, hirya yabo hakaba hari umukobwa nawe uryamye ku gitanda cy'umukara, uri kugororwa n'umukobwa mugenzi we, inyuma yabo hakaba hari intebe zo kwicara uba utegererejeho.

Umugore wicaye hasi wishimye wambaye ipantaro ari muri siporo, yicaye ku gatapi k'ubururu, afite inzara zisa umutuku ndetse yambaye n'udukomo ku maboko.

Umugabo uri mu cyumba kiriho mo urumuri rwinshi akaba ari mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengeri y'umukara ikabutura y'umukara akaba afite ibisuku iruhande rwe, hakaba hari intebe nini cyane yo kwicaramo.

Umukobwa uri ahantu hari akazuba, ku mazi ari kwinanura yambaye isaha y'umukara, akaba yambaye n'agasengeri k'umuhondo, ahantu imbere ye hari amabuye menshi ameze nk'urutare.

Ikirango gikozwe mu ruziga, kirimo n'ishusho y'izuba, harimo abantu babiri uwambaye imyenda y'ubururu n'uwambaye imyenda y'umweru, bigaragara ko bakina imikino njyarugamba, kikaba ari ikigo gikorera mu Rwanda.

Umusore wambaye imyenda bambara bari gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu hari izuba ryinshi cyane, yambaye ibirahurire bimurinda izuba, ari kwimena amazi mu maso bitewe n'ubushyuhe buhari.